Ingabo z'u Rwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda , bambara iniforome ziba zisa n'icyatsi, kandi ingabo z'u Rwanda zihabwa amahugurwa ari ku rwego rwo hejuru, kugira ngo zibashe kurinda umutekano mu gihugu cyawo no hanze yacyo.

Ubu bwato buba ubw'abaporisi buba mu mazi cyangwa se mu nyanja. Aba baporisi bakora akazi kenshi cyane mu nyanja, yaba kurwanira mu nyanja, cyangwa se bakaba bashobora no gutabara abarohamye. Aba baporisi baba bafite ubuhanga bukomeye cyane.

Abacungagereza bagira nabo iniforume zabo, ziba zisa na kaki, kandi ziba ziriho ikirangantego cy'u Rwanda, kiriho ibendera ry'u Rwanda.

Umupolisi ashobora kuba ari gutanga ikiganiro kijyanye n'imyitwarire mu miryango iwabo uko bakwiye kwitwara, ndetse ashobora no kubaha ikiganiro kijyanye n'uko bakwiriye kwitwara mu muhanda, kugira ngo babashe kuwukoresha neza.

Akenshi abashinzwe umutekano na bo bakora inama, kugira ngo babashe kurebera hamwe ibitabasha gukorwa neza, noneho bajye babikora neza.

Ikibuga cy'indege, indege zirahahagurukira zerekeje mu gace runaka, indege zifite akamaro kanini cyane kuko zitwara abantu bagiye gukoresha urugendo rurerure cyane imodoka zidashobora kugenda. Kandi indege zitwara imizigo n'ibindi bintu byinshi.

Abapolisi bagira inshingano zitandukanye. Abagira inshingano zo kurinda umutekano wo mu muhanda, bakumira impanuka. Hari n'abandi bakoraga mu Mijyi. Hari n'abandi bakorera mu mazi.

Habaho kamera zitandukanye, hari kamera ziba ku matelefone, hari kamera kandi ziba ziri ku mapoto, cyangwa se barazishyize ahantu ziba zishinzwe gupima imivuduko y'imodoka, cyangwa se ibinyabiziga muri rusange.

Umuporisi uri gutanga ibiganiro cyangwa ikiganiro, aho ari kubwira abaturage biragaragara ko ari kubaha ikiganiro kijyanye n'umutekano. Waba uwo mu muhanda cyangwa umutekano usanzwe cyangwa se uburyo bakwiye kujya bitwararika gukora amakosa.

Abayobozi baba bashinzwe umutekano n'abandi bakora mu nzego za Leta, n'abandi babanyamadini baba bakomeye, bakajya barahurira ahantu bagakora inama, zijyananye n'ibyateza abaturage imbere.

Imodoka iri kugenda mu muhanda irimo ipakiye abantu benshi cyane bitendetseho, ndetse hari n'abantu bayotamye, bahagaze ku byuma by'inyuma. Iyi modoka irahetse cyane, ihetse ibintu byinshi cyane, hejuru ifite ibidomoro, amapine, n'ibindi byinshi.

Amamodoka menshi aba akwiriye kujyananwa mu isuzumiro, bakayasuzuma bakareba ko nta kibazo afite, kugira ngo adateza impanuka mu muhanda.

Abazungu babiri, umusirikare, abapolisi, icyapa, ikiyaga n'umupolisi ukorana na RIBU.

Baba ari beza cyane kuko barindala umutekano w'igihugu cyacu, kandi badufasha ko hari abantu baturuka hanze y'igihugu bakaza kutwangiriza.

Mu nama ziba zitandukanye abantu baba bafite uburenganzira bwo kubaza ikibazo, baba bashaka cyangwa se icyifuzo baba bashaka kugeza ku bandi.

Ziba nziza cyane, kuko abantu bazihuriyemo babasha kungurana ibitekerezo, cyangwa se bakajya inama bagafata imyanzuro, noneho zikazakurikizwa zikavamo ikintu cyiza cyane.

Indabyo, amazi ari mu ducupa tw'umweru , amatara y'umweru, parafo y'umweru, umuyobozi uri imbere y'abaturage, n'abaturage, ameza, intebe, amakaro.

Akorera akazi cyangwa se inshingano mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko mu myambaro afite, iyi n'iniforume n'iy'igipolisi cy'u Rwanda kuko bafite idarapo ry'u Rwanda bakagira ndetse n'ibindi birango bigaragaza ko ari umunyarwanda.

Mu rwanda abayobozi benshi bajya baregera abaturage, mu makaritsiye y'iwabo cyangwa se mu mudugudu, noneho baka bakababwira ibibazo baba bafite, noneho abayobozi bakazajya babikemurira.

Iki cyumba kiri gukorerwamo inama cyangwa se ikiganiro, cyitabiriwe ndetse n'abantu cyangwa ingeri nyinshi harimo inzego za Leta, harimo abashinzwe umutekano, harimo abari kuyobora inama n'abandi benshi.

Mu Rwanda bagira umuco wo kuboha udusero, batuboha mu migano, kandi hari n'abaduha imipfundikizo yatwo.

Utu dukoresho dukoreshwa cyangwa se dushirwamo inzoga noneho bakayinyweramo kandi bajya bakoresha imiseke bari kumweramo.

Mu Rwanda, umugabo cyangwa se umusore uba ugiye gushaka, aba afite abandi basore baba bamugaragiye, baba bamuri iburyo n'ibumoso.

Kera iterambere ritari ryagera mu Rwanda, abantu bambaraga impu. Barazambaraga, noneho bakajya mu mirimo itandukanye, arizo bambaye.

Ahantu hamwe na hamwe mu Rwanda, baracyagira inzu ziba zubakishijwe ibyatsi ariko ntabwo ziba zituwemo, ahubwo ziba ari izo kugira ngo abantu bage bazibukiraho uko mu Rwanda inyubako zaho zabaga zimeze.

Umuvure bawukamiramo ibitoki baba barataze mu rwina, iyo bimaze gushya bajya kubitarura, bakabizana bakabitonora bakabishyira mu muvure, ubundi bagashyiramo n'ibindi byatsi bakamisha ubundi bakawukamiramo bagakuramo umutobe.

Abakobwa bambaye umukenyero w'umweru n'uwundi urimo ubururu, bambaye n'agasengeri k'umutuku bari kubyina intore.

Babeteraga ku ibuye, kandi iryo buye baryitaga urusyo, urwo rusyo barubeteragaho amafu cyangwa se bakabetaragaho amasaka yo gukoramo umusururu, cyangwa se bagatekamo umutsima w'amasaka.

Inanga ifite utugozi bakurura kugira ngo ivuge, hariho n'umuntu uyicuranga. Ikagira n'igiti kiziritseho utwo tugozi bakurura.

Mu Rwanda bagiraga imico igiye itandukanye, hari abagira umuco wo kuboha ibyibo cyangwa uduseke, bakaboha n'imipfundikizo yatwo, hari n'abandi baboha ibirago.

Mu muuco nyarwanda abasirikare ba kera, bajyanaga amacumu cyangwa se bakarwanisha amacumu ku rugamba, icyo gihe rero ntago imyenda yabagaho, babaga bambaye impu, noneho bakajya ku rugamba arizo bambaye.

Umuvure e ni igikoresho gifasha abantu baba bashaka gukama ibitoki, bashaka gukuramo umutobe, noneho uwo mutobe nabwo bazashaka bakawukoramo urwagwa.

Iri soko bagurishirizamo ibirago， harimo n'ubwatsi ari bwo bagurisha bakajya kubohamo ibirago. Iri soko bacururizamo amakuvureri, amashuka n'ibiringiti.

Urusyo rwa kera babeteragaho amasaka, ingano n'ibindi. Intara bagosoreragaho ingano, bakagosoreraho amasaka, bakagosoreraho n'ibindi.

Uyu agaragara ko yahoze ari umwami. Kandi umwami ni we wategekaga igihugu, ni we wabaga ari umuyobozi wacyo. Yatangaga amabwiriza kubo ayoboye ndetse n'abandi yakoreshaga bamufashaga kuyobora igihugu. Ahambere yabaga yambaye imyambaro rero imuranga isa utya;.......

Mu muco nyarwanda hahozeho umunsi witwa umuganura; umuganura rero bakunda guteka cyangwa se n' ubu barateka, bateka ibihaza, ibishyimbo, amateke, umutsima w' amasaka n' ibindi.

Umuvure uba mwiza cyane kuko bawukamiramo ibitoki, noneho ibyo bitoki bamara kubikama bikavamo icyo bita umutobe, noneho bashaka uwo mutobe bakazawukoramo urwagwa.

Uyu umukino bawita gusimbuka agati. Gusimbuka hagati cyangwa se urukiramende. Uyu mukino abana bakunda kuwukina cyane bagira ngo barebe uzi gusimbuka cyane. Kandi uyu mukino ni mwiza cyane.

Imikeka ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu rwanda, imikeka bayisasa muri saro, cyangwa se bakaba banayiryamaho, imigekeka iba ifite akamaro kanini cyane.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma bakoresheje imirishyo, ni ukuvuga ngo kuvuza ingoma ntabwo uwo ariwe wese azivuza, ahubwo bisaba kuba uzi kuzivuza. Ingoma zikunda kuvuzwa iyo habaye umunsi mukuru cyangwa se habaye ikirori runaka.

Kuboha ibyibo ni umwuga uba ari mwiza cyane, kandi uwo mwuga umuntu wawitayeho wamuteza imbere, kuko iyo wamaze kukiboha, ukigurisha bakaguha amafaranga.

Mu rwanda habagaho e inzu za nyakatsi, cyangwa se inzu zabaga zisakajwe ibyatsi, noneho izo nzu nizo zabagamo abanyarwanda bo hambere.

Kera mu Rwanda habagaho inzu za nyakatsi zabaga zisakajwe ibyatsi, kandi zabaga zifite inkingi yabaga imbere y'umuryango.

Intore zifite inkoni z'amacumu, zifite n'imisatsi igera ku kibuno, zikenyeye n'udutambaro tw'umuhondo, izindi zikenye udutambaro tw'ubururu, zifite n'inzogera zambaye ku maguru.

Iki bakitaga ikigega. ubungubu ntabwo bikiri ahantu henshi cyane， ariko ibigega bahunikagamo ingano， amasaka， ndetse bashoboraga no gushyiramo ibigori byumye， kugira ngo bibe birimo， noneho bazabikuremo babihungura，bakabijyana mu nganda cyangwa se..

Hagaragaramo umuco wo kuvuza imyirongi, aho usanga barapfumuye amatiyo, noneho cyangwa se bagakoresha imigano, hanyuma bakajya barayivuza.

Ababoha bagiraga udusha twinshi kuko habaho ababoha n'udukoko, bakaboha udupfundikizo tw'byiho cyangwa se bakaboha n'udutako bamanika mu mazu n'ahandi henshi.

Kuvuza ingoma ni igikorwa cyiza cyane, kubera ko kuzivuza byahozeho mu muco nyarwanda. Kuva na kera barazivuzaga, ndetse n'ubu ngubu barazivuza. Nk'iyo habaye umunsi mukuru w'ikintu runaka, cyangwa se ikirori runaka.

Ibiseke cyangwa se ibyibo, ni bimwe mu bikoresho, abanyarwanda bakunda gukoresha cyangwa se byahoze binakoreshwa mu Rwanda, mu gihe cyashize byakoreshwaga mu kugemuriramo abantu n'ibindi bintu byinshi cyane.

Inka ziba ari nziza cyane, iyo wazitayeho zigira umusaruro mwinshi cyane . Uko kuzitaho ni ukuzigaburira, ndetse zikabasha no kubona amazi meza cyane.

Gusekura ni byiza cyane, uyu muntu arimo gusekura bigaragarako ari ibivunde ari gushaka gukuramo ubugari, kandi isekuro yifashishwa mu gushyiramo ingano noneho ugasekura kugira ngo ubone uko ugosora ingano zize zimeze neza, cyangwa se basekuriramo n'isombe.

Intore zirabyina, ariko zifite n'abantu bajya barabavugiriza ingoma, kugira ngo babyine ibijyanye n'ibyo abari kubavugiriza ingoma baba bari kuvuza.

Ibirago bajya kugura ubwatsi, noneho banashaka indodo zo kudodesha ubwo bwatsi, cyane cyane ziba ari indodo ziba ziri ku mifuka.

Kera habagaho urusyo rw'ibuye aho bafataga imyaka nk'amasaka, ibigori n'ibindi bakabishyira kuri iryo buye, noneho bagafata akandi kabuye bakoreshaga, bakagenda babeta noneho byarangira bagakuramo ifu, iyo fu bayitekagamo umutsima cyangwa se bakayitemo ikigage, n'igikoma n'ibindi.

Intore baba ari abantu baba baritoje kubyina, Kandi baba bambaye inzogera mu maguru bafite n'imisatsi baba bishyizeho ku mutwe, bakenyeye n'imikenyero n'udutambaro bafite n'amacumu.

Mu muco nyarwanda intore zahozeho, kandi na n'ubu zijya zirabyina, iyo habaye ibirori, cyangwa se umunsi mukuru w'ikintu runaka.

Mu muco nyarwanda ababyeyi cyangwa se abakecuru, abagore, abakobwa, baratamba, batamba mu kirori cyangwa se bagatamba mu nsengero, cyane cyane nko mu biriziya.

Habaho ubwoko bwinshi bw'ibibohano, habaho ibitambaro baba baraboshye, habaho ibyibo baboha, baboha n'inkoko, baboha n'udusahane, baboha n'utundi tuntu twinshi cyane, n'udukomo.

Ibibindi byagiraga akamaro kanini cyane kuko bashyiragamo inzoga bagatura ahantu ,noneho ikibindi bakigeza aho hantu abakuru bakacyegera bagashyiramo imiseke bagakurura inzoga bakanywa.

Akagega bashyiramo amasaka, bashyiramo ibigori kugira ngo imbeba zitazabijya ndetse kano kagega gashobora no gushyirwamo ibirayi

Mu Rwanda kera batekaga umutsima mu nkono, ubwo rero mu Rwanda kubera ko bagira umunsi w'umuganura iyo wabaye usanga akenshi abayobozi bagiye gukurikirana icyo gikorwa. Bakareba cyangwa se bakigisha uko byahoze bikorwa na mbere.

Isekuro yifashishwa ahantu henshi cyane .Isekururo bayisekuramo ibivunde bikavamo ubugari ,ndetse bayisekuriramo n'ubunyobwa ,bayisekuriramo isombe, bayisekuriramo n'ibigori ,basekuriramo ingano bashaka kugira ngo ingano zise neza ,babone kuzigosora.

Umuganda rusange ni mwiza cyane. Umuganda bigaragara ko n'abasirikari bari kuwukoramo, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umuganda ni mwiza cyane, kuko uteza imbere igihugu, kuko baba bakora ahantu henshi hatandukanye, bakubakira abatishoboye, cyangwa se bagakora n'imihanda kugira isuri itazayitwara.

urusengero, indabyo ziteretse mu tuntu tw'umweru, umucaca na sima.

Umuco nyarwanda, ababyeyi iyo bagiye mu birori, cyangwa se ubukwe runaka, barakenyera kandi bavuza n'impundu.

Uturago n'utwo baboha mu byatsi, bakoresheje indodo z'imifuka. Uturago kandi tuba dusa neza, abatuboha iyo bashaka baradutaka.

Mu rwanda habamo amatorero y'abantu babyina abo bantu babyina baba bambaye cyane cyane imikenyero kandi bambaye n'udupira twose tuba dusa.

Ibishyimbo biba byiza cyane kandi bigira akamaro kenshi cyane, kuko ibishyimbo bihingwa noneho bikazavamo ibishyimbo byo kurya mu muryango, cyangwa se umuryango ukanabigurisha, bakabaha amafaranga yo kuguramo ibyo bindi baba bakeneye.

Abahigi e bakunda gukoresha amacumu, nkiyo bagiye guhiga bajyana amacumu, kuko bataba bafite imbunda, amacumu niyo bajyana mu mashyamba, kujya guhiga.

Imigano igira akamaro kenshi cyane kuko bazikoramo intebe kandi n'amasahani bashobora gukoresha mu kuyariho cyangwa se mu kuyatwaraho utundi tuntu nk'udushimbo n'utundi tumwe.

Intore ni nziza cyane kuko zigaragaza cyane umuco nyarwanda. Mu Rwanda rero intore ni nziza cyane kuko zibasha gususurutsa abitabiriye ibikorwa runaka cyangwa se amahuriro runaka, ari ibiganiro cyangwa se ibirori bigiye bitandukanye.

Amatara yo ku muhanda amaba cyane kuko amurikira umuhanda. Amatara yo ku muhanda kandi bakunda kuyahatsa saa kumi n'ebyiri z'umugoroba.

Aka gakoresho dushobora kukita agaturunevisi; gafungura amaburo, gafungura amaburo ndetse kifashishwa cyane cyane ku bantu bari kwesitara amazu cyangwa se ku bantu bari gufungura za purize n'utundi, n'ahandi henshi hatandukanye zirifashishwa

Utuburutufu tuba twiza cyane, kuko tuba dukunzwe cyane kurusha ekuteri ziba zifite imigozi, cyane cyane badukundira ko tuba dutwararitse neza.

Urusengero, amatiyo ajyana amazi mu kigega, amazi yatembye agera mu madirishya y'urusengero, igare.

Aha bigaragara ko hashobora kuba ari ikigo. Ikigo cy'ibintu bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero barimo gukora akarima k'igikoni, bari kukubaka neza cyane kuko bagakora bavanze n'ibitaka n'amafumbire. Nibarangiza kugakora bazateramo imboga kandi zizera neza cyane. ni na nziza kubana no ku bantu bose.

Hari ibiraro biba biri hejuru y'umugezi. Ibyo biraro bifasha abantu kwambuka uwo mugezi bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Inyubako za Reta ziba zubatswe neza, inyubako ziba zubatswe neza harimo nk'amahoteli ya Reta cyangwa se uturere, n'izindi mu nyubako.

Idarapo ry'u Rwanda, inzugi z'umukara, ikibaho cy'umukara, amadirishya y'umukara afite ibirahure, amabati y'ubururu, ibiti n'imicaca.

Urusengero na rwo ruba rwiza cyane, kuko abaturage cyangwa se abakrisitu bajya gusengeramo, noneho bamara gusengeramo bakabona uko begerana n'imana, bagasenga ndetse bakizera imana, urusengero rero ni rwiza cyane ni rwiza cyane rwose.

Insengero nyinshi zigira amadirisha menshi kugira ngo abakirisitu igihe barimo baje bagafungura noneho uwo mwuka cyangwa umuyaga mwiza ubashe kwinjiramo.

Izi nyubako akenshi zikunze kuba zikorerwamo ibijyanye no kwigirwamo, cyangwa se bakajya batangiramo amahugurwa, cyangwa se zikaba n'inzu z'abayobozi.

Mu Rwanda bagira umuco wo kubyinira abashyitsi, baba babasuye , babasuye mu nteko cyangwa se baje mu nama, ubwo inama iyo irangiye bakurikizaho umwanya wo kubashimisha, cyangwa kubakira bakababyinira mbere y'uko igikorwa gitangira.

Abaganga bavura abarwayi cyane cyane iyi myenda igaragaza ko bavura abagore cyangwa babyaza abagore, ndetse bambara iyi myenda no mu kuvura inyamaswa nk'inkoko kugira ngo zitabaduza hanyuma bakambara iyi myenda.

Habaho inyubako z'amashuri. Amashuri rero bayigiramo abanyeshuri bagakuramo ubumenyi bwinshi cyane, iyo bari kwigira mu mashuri meza birabafasha cyane.

Amasitasiyo aba ariho amashanyarazi cyangwa se aho amashanyarazi aje mu bice byinshi aba yaraturutse kaba bwubakiye neza cyane ku buryo bwaba afite ubushobozi bwo kohereza mu mpande zigiye zitandukanye.

Urusengero basengeramo rufite imbere parikingi bajya baraparikaho amamodoka. Abakirisitu cyangwa abanyamadini baje gusenga bakazana imodoka baziparika muri izi parikingi bashyize imbere y'urusengero.

Insengero ziba nziza cyane, kubera ko abantu benshi bahahurira noneho bagasenga Imana, noneho ibikorwa byabo nabyo bikazajya biragenda neza, kubera ko Imana iba ibirimo.

Insengero zibaga zegeranye n'ibigo by'amashuri, zifasha abanyeshuri kuzijyamo bagiye kuzisengeramo, noneho kandi izo nsengero zijyamo n'abaturage, insengero ziba ari nziza cyane.

Uyu muhanda uzengurutse ibi bikorwa remezo byinshi cyane : hariho ikibuga cy'umupira w'amaguru, hariho amashuri ndetse hashobora no kuba hariho n'ibitaro. Aha hantu rwose bigaragara ko ari heza cyane kandi n' umuhanda wahagize heza cyane ku kaba uhakikije. Umuhanda woroshya ingendo, ku bantu bahagana.

Mu biro by'abayobozi habamo ibikoresho byinshi bya elegitoronike, habamo ibyo bita za purinta, amamashini n'imigozi zayo n'ibindi.

Muri gare ni ahantu hahurira imodoka, cyane cyane iziba zigiye gutwara abantu, zibajyanye mu bice bitandukanye n'iziba zibavanye mu bice bitandukanye, zikabazana muri gare.

Ibitaro ni byiza cyane kuko abarwayi iyo barwaye bajyayo bagahura n'abaganga, noneho abaganga bakabitaho bamwe bagakira abandi bakahasiga ubuzima, ariko muri rusange ibitaro biba byiza cyane.

Inyubako zigirwamo cyangwa se amashuri, aba ari meza cyane kuko afasha abarimu n'abanyeshuri, kuba bayahuriramo noneho umwarimu akabigisha.

Inyubako za leta zitangirwamo serivisi abaturage baba bakeneye ziba nziza cyane, kuko nk'iyo ushaka kujya gutanga ikibazo ukigeza ku muyobozi, noneho akagufasha akakigukemurira.

Iyi ni kiziya ya paruwase ya Rwaza, iyi ni kiliziya ni urusengero rw'abagatulika ruherereye mu Karere ka Musanze, uru urusengero rufite icyumba cyangwa se sare nini ijyamo abakirisitu benshi cyane.

Icyumba bakoreramo amahugurwa . Gifite za mudasobwa zifashishwa nko mu kwiga, mu gukurikira ibiganiro biciye ku kuri interinete. Abantu bari mu magurupe bari gukora umukoro.

Hari insengero ziba zubatse neza cyane, ziba zinakurura ba mukerarugendo kubera uburyo ziba zubatswemo. Insengero kandi zirafasha ni ho abakirisitu basengera.

Inyubako za Leta zibamo amaserivisi menshi atandukanye, hari amaserivisi ajyanye na banki cyangwa se n'izindi serivisi.

Urusengero rufite amabati y'umutuku rwa ADEPR Paruwase Rwinkuba, rufite amadirishya, rukagira n'inzugi, hari n'abantu bari imbere y'umuryango.

Uru ni urusengero rwubatse neza kandi rwiza cyane rufite etage, hari ibyumba biri hasi hari n'ibindi biri hejuru, ni ukuvuga ngo iyo abantu rero bashobora kuba benshi hasi bamwe bajya kwicara hejuru uru rusengero ni rwiza cyane kandi rufite na parikingi ntacyo rutwaye.

Umuhanda wa kaburimbo, ugira ibice bibiri, hari umuhanda ugira ibice bibiri, hari n'undi ugira ibice bitewe n'uko ungana, noneho umuhanda wa kaburimbo ugira igice cy'imodoka ziturutse iburyo, n'izindi ziba ziturutse ibumoso, noneho unagira agace bita zebura k'abagenzi bacamo.

Abayobozi bajya barakoresha inama abaturage baba bayoboye, kugira ngo bajye babasha gukemuriramo ibibazo baba bafite.

Abaturage, abaturage baba bafite ubwisanzure bwo kubaza ibibazo baba bifuza, kugira ngo abayobozi bajye babafasha gusubizwa.

Aha bano bantu bari guca imanza kuvuga ngo hari abayobozi batandukanye, bumva ibibazo ndetse bakanabikemura ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibazo ashobora kukihajyana, noneho bakaba bahamuburanishiriza n'uwo arega cyangwa se bakamukemurira ikibazo.

Urubanza, umuntu uba ari kuburanishwa aba ategetswe kumva icyo bamubaza, kandi yirinda kuvugira mu wundi.

Abayobozi bita ku baturage cyane. Bajya babafasha kubakemurira ibibazo baba bafite cyane nko gusinyisha ibyangombwa byaba iby'ubutaka cyangwa n'ibindi.

Amamodoka manini aheka aba ari meza cyane kuko atwara abagenzi benshi cyane noneho kandi arihuta cyane mu muhanda abagenzi bakagera aho bashaka vuba vuba.

Uyu ni umujyi mwiza cyane. Umugi urimo amamodoka, amamoto, bisobanuye ko umuntu ushaka kuba yatega ava muri aka gace ajya mu kandi gace bishobora kuba byamworohera. Uyu mujyi rero ntacyo ubuze, ndakeka ibintu byinshi bibamo.

Moto ni ikinyabiziga cy'amapine abiri. Umuntu ugikoresha bamwita motari cyangwa se umumotari. Atwara abagenzi, atwara ibicuruzwa n'ibindi bintu bitandukanye. Moto rero ni nziza muri rusange kuko yihutisha ingendo.

Abagabo, utumodoka bita uturifani, bakunda gutwaraho ibintu cyangwa se imizigo itaremereye cyane, nk'amacupa y'amaji cyangwa se n'utundi n'utundi turibwa tuba tutaremereye cyane.

Iyi modoka ijya itwara abantu benshi, iyi nzu isa nk'aho ari isoko cyangwa se hakorerwamo ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Abanyonzi bafasha abantu benshi cyane, kuko babatwara bakabavana mu gace kamwe babajyana ahandi, kandi abanyonzi batwara imizigo ku magare yabo.

Uyu ni umujyi. Umujyi ni mwiza cyane kuko mu mujyi niho usanga ibikorwa byinshi cyane biteza igihugu imbere. Mu mujyi habamo abantu benshi cyane, amamodoka, habamo ibikorwa remezo, habamo ubucuruzi, habamo inganda n'ibindi byinshi cyane. Umujyi ni mwiza cyane.

Ikibeni cy'ubururu gihetse umucanga gifite amapine atandatu. Imbere hari ikindi cy'umutuku n'umweru, ibitoki n'ibyatsi.

Iki kimodoka ni kinini cyane, akenshi ibimodoka bikunda kugaragara mu Mujyi wa Kigali kuko ariho haba abagenzi benshi cyane, iki kimodoka cyegera aka ahantu bakoza agakarita kitwa tap and go, noneho wamara gukozaho amafaranga ajyanye n'urugendo ugiye gukora akahava.

Iyi modoka ni nini cyane, itwara abantu benshi cyane, iyi modoka akenshi ikunda gukoreshwa mu mujyi cyane cyane mu mujyi wa kigali, nibwo usanga abaturage cyangwa se abagenzi bo muri kigali ari yo bakoresha cyane.

Habaho ubwoko bwinshi bwa taransiporo . Hari taransiporo zikorerwa mu muhanda, n'izikorerwa mu kirere n'izikorerwa mu mazi. Izo mu mazi na zo zibaga nziza cyane, kuko abantu babasha kuzikoresha bakajya aho baba bashaka kujya.

Habaho amoko menshi y'amamodoka, hari amamodoka bita amadayihatsu, hari ayandi yitwa amavatiri, amatgisii, amaritiko, n'ayandi, ariko aba afunguye inyuma, ni yo yifashishwa mu gutwara imizigo n'imicanga n'ibindi babijyana ahantu runaka.

Amagare agira akamaro kanini cyane kuko amagare yoroshya ingendo umuntu aba yakora, ariko iyo aririho cyangwa se iyo aritwaye akoresha igihe gitoya, noneho amagare anatwara imizigo.

Motari ni umuntu utwara moto, utwara moto ndetse agatwaraho abagenzi. Ni ukuvuga ngo rero moto ni ikinyabiziga cyiza cyane kuko gitwara abantu bityo bikaborohereza urugendo bakagombye gukoresha amaguru bakayakoresha na moto bagakoresha igihe gito.

Amamodoka manini aba ari meza cyane, kuko ajyana abagenzi abakuye ahantu hamwe abajyana ahandi, kandi akunda kwihuta cyane bakagerayo vuba.

Abanyonzi baba ari abantu batwara abagenzi ku magare, abanyonzi kandi bakunda guparika ahantu hamwe niho bafatira abagenzi.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi, abanyonzi, abantu, insinga n'igipoto, ibihu by'umweru n'ubururu.

Amamodoka akunda kuhahagarara agiye kunywesha esanse cyangwa se agiye kuhogerezwa, kugira ngo ajye mu muhanda ameze neza cyangwa se asa neza.

Umukino wa vole uba umukino mwiza cyane, urangwa no gukinisha amaboko, umutwe, n'ikirenge nacyo kiba cyemewe, noneho bakazajya bawurenza fire.

Habaho imodoka zikoreshwa mu buryo butandukanye, hari imodoka zitwara abagenzi, imodoka zikoreshwa mu kwigisha abantu baba bashaka kuzimenya, hari n'imodoka zikoreshwa mu masiganwa, izikoreshwa mu masiganwa ziba zifite sipidi iri hejuru cyane.

Umupira wa vore ukoreshwa mu mukino wo gukina vore, aho baba bari kurenza fire.

Amasiganwa yo ku magare, bakunda kwita turu di Rwanda aba ari meza cyane, kuko n'abayareba iyo bararebye babasha kwishima, ndetse baba bari no gufana, bene wabo baba bari muri ayo marushanwa.

Hababo siporo zitandukanye habaho siporo zijyanye no gukina umupira w'amaguru ndetse hakabaho na siporo zo ku magare. Siporo zo ku magare cyane cyane zikorwa n'abakuruzi cyangwa se abakora amasiganwa ajyanye n'amagare.

Imukino w'isiganwa ry'imodoka uba mwiza cyane, kandi abantu benshi barawukunda kuwukurikirana uwo mukino rero uba mwiza cyane rwose.

Habaho amoko y'imikino menshi cyane, hari umukino w'amasiganwa ku maguru, aho abantu biruka ibirometero runaka noneho uwabaye uwambere agatsinda.

Aya amazi ni meza cyane, kuko ni ikiyaga, kandi ikiyaga gikurura ba mukerarugendo, benshi cyane baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Kandi bahubakiye neza, aho bakirira abaturutse mu mpande zigiye zitandukanye baje gusura iki kiyaga. Bityo ikiyaga ni cyiza cyane.

Umukino wo koga uba mwiza cyane, n'ubwo udakunda kwitabirwa n'abantu benshi cyane, ariko uba ari mwiza cyane.

Balo ya basiketi, ipaniye ya basiketi ,abantu bafite umupira cyangwa balo ya basiketi .

Ibibuga byinshi, bikoreshwa mu kubikiniraho biba byubatse cyangwa se byubakiye neza, yaba ibibuga bikinirwaho futu boro za vore n'iyindi mikino, ibiba byubakiye neza.

Ibibuga biba ari byiza cyane kuko byifashishwa mu kuba abantu bashobora kubikoreraho siporo, cyanwa se bakabikiniramo imipira n'imikino igiye itandukanye, cyane cyane ikibuga cya futu kiba ari cyiza cyane.

Vole bolo ni umukino mwiza cyane, utuma umuntu ananuka, cyangwa se umubiri we ukajya ukora neza, kuko na vole bolo nawo ni umukino ufasha umuntu gukora siporo.

Abantu bakunda gukora amarushanwa y'amagare, baakunda gufanwa n'abantu benshi cyane, kuko ni umukino uba ushimishije cyane.

Umukino rwa tenisi ni mwiza cyane kuko akundwa cyangwa ukinwa n'abantu mu byiciro bitandukanye baba abana cyangwa se abakuru bose barawukina.

Igare ni ryiza cyane igare rikoreshwa n'abantu basiganwa ku magare. Abasiganwa ku magare rero bashobora gukoresha amagare bareba abazi kwirukanka cyangwa se uri gukoresha igare vuba kurusha abandi. Kandi amagare akoreshwa muri siporo, amagare akoreshwa n'abantu bashaka korosha ingendo.

Ku kibuga haba hariho sitade iba yicayemo abafana. Abafana rero baba beza cyane, kuko iyo bari gufana abakinnyi, abakinnyi bakina bishimye cyane.

Mu kibuga cya basikete haba harimo icyo nakwita nk'aho ari akantu kaba kameze nk'agasupanete gacamo balo, umuntu ajugunyamo balo noneho yacamo agatsinda.

Imodoka yifashishwa mu marushanwa yo gusiganwa y'amamodoka. Ubu ni ukuvuga ngo iyi modoka irakomeye cyane， kandi igira umuvuduko uri hejuru cyane, ku buryo ishobora kwiruka， ikagera kure mu gihe gitoya.

Umukino wa tenisi uba ari mwiza cyane, kuko ufasha umuntu gukora siporo cyangwa se akajya mu marushanwa. Noneho yazatsinda bakazamuha amafaranga, cyangwa se ibindi bihembo.

Siporo yo koga mu mazi cyangwa se mu ma pisine, cyangwa mu biyaga nayo iba nziza cyane. Kubera ko ituma umuntu akora siporo akananuka ndetse akaba yakora n'amarushanwa yatsinda agahimpwa.

Umukino wa tenisi ukunda gukinwa mu bihugu cyane cyane byo hanze, byo hanze ya Afurika nko mu Burayi.

Muri siporo cyangwa se mu mikino runaka, abakinnyi bakunda kugirana urukundo rwinshi cyane, aho usanga bagomba guhuza kugira ngo babashe gukina neza.

Pisine ni ahantu baba barubatse barahubakiye noneho bagashiramo amazi cyangwa bakayayoboramo ku buryo ahora arimo noneho abantu bajya bajya kuyogeramo.

Abakinnyi b'abazungu bari mu kibuga kandi ikibuga gifite imirongo y'umweru. Kinakikijwe n'icyapa cyanditseho: Rwanda open.

Siporo zo kwiruka zirafasha cyane, kuko zifasha umuntu kunanura umubiri we, kandi zituma n'ubwonko bubasha gukora neza,..

Abantu bari gukora ikiganiro ku bijyanye na siporo, siporo zibamo amoko menshi cyane habaho siporo z'umupira w'amaguru , habamo siporo z'amasiganwa ku magare, iza volebolo, iza hendibolo n'izindi nyinshi cyane zitandukanye.

Amakurosi, umugezi uri mu kibaya, ibihu by'ubururu n'umweru, imisozi, ibiti n'ibizi bibi.

Viziti Rwanda ni nziza cyane, Viziti Rwanda yamamaza u Rwanda, nk'ibihugu byamamariza u Rwanda biba bishaka kugaragaza ko mu Rwanda, haba hakunda kubera ubukerarugendo, kandi haba inyamaswa nk'ingagi zikururara ba mukerarugendo, n'ibindi byinshi cyane.

Umupira uba mwiza cyane usangamo amakipe yo mu byiciro bitandukanye, habaho ikiciro cy'abagore cyangwa se abakobwa, hakabaho n'ikiciro cy'abagabo cangwa se abasore.

Igitsina gore gikunda umukino witwa tenisi. Barawukunda cyane kuko ubafasha gukora siporo kandi bakaba bajya no mu marushanwa yo kuwukina.

Umukino wa tenisi uba uba ari mwiza cyane, kuko nawo ufashaga umuntu gukora siporo, cyangwa se ukamwinjiza mu marushanwa, noneho yatsinda akabasha guhembwa.

Abakinnyi ba futuboro bagira umuco wo kubanza gusuhuzanya, mbere y'uko batangira gukina. Uwo muco rero ni mwiza cyane, kandi ko wabaye akamenyero kuri bo.

Umukino wa futuboro uba ari mwiza cyane, ni umukino bakoresha amaguru, ndetse umutwe cyangwa se ibindi bice mu kuwukina, uretse gukozaho intoki, ahandi hose ushobora kuhakoresha. Umukino wa futuboro ni mwiza cyane kuko ukunzwe n'abantu benshi ku isi.

Imbaro yavoreboru, voreboru rero n'umukino n'umukino w'amaboko, mu kibuga cya vore haba hagomba kubamo fire iri hagati, kugira ngo ikipe imwe ije hepfo cyangwa ruguru cyangwa se iburyo indi ibumoso, noneho ayo makipe agakina arenza iyi mbaro hejuru ya fire.

Koga bifasha cyane abantu mu kuruhuka, kuko koga na wo uba ari umukino mwiza cyane, abantu baba babishoboye bakunda.

Aba banyonzi bashobora kuba bari muri turi di Rwanda, cyangwa se bari mu myitozo ijyanye n'amasiganwa ku igare .Aba bakinnyi baca mu mihanda igiye itandukanye ,kugira ngo bimenyereze, igihe bazaba bari mu marushanwa ,bazabe basanzwe bayizi.

Habaho imikino itandukanye. Hari abakina umupira w'amaguru, abandi bagakina uwa vore abandi bagakina uwa hendiboro. Kandi hari n'abandi bakina basiketi. Iyo yose rero iba myiza cyane.

Uyu mukino ushobora kuba uwa hendiboro n'ubwo baro idasa n'ikoreshwa muri hendiboro. Ariko hendiboro nawo ni umukino mwiza cyane, kuko ufasha umuntu kuba yakoresha umubiri neza, kuko siporo tuzi ko ari ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Aba rero nabo bari kubikora neza.

Kaburimbo ikunda kugira akandi kayira k'abanyamaguru, kaba karimo akenshi amapave, ko ntabwo kaba karimo kaburimbo, ahubwo haba harimo amabuye y'amapave.

Habaho imihanda igiye itandukanye, habaho umuhanda wa kaburimbo, habaho umuhanda utsindagiye gusa ariko utari uwa kaburimbo, habaho n'ubundi muhanda utameze neza, uba urimo amabuye yasamye, mbese ugaragara ko utari mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo uba ari mwiza cyane ni yo mpamvu uba ugomba kwitabwaho, e kuko ucamo amamodoka kandi ayo mamodoka aba ahetse imizigo cyangwa se andi arimo abantu, ni yo mpamvu uba ugomba kuba ari mwiza cyane.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda wa kaburimbo ufitiye akamaro kanini cyane kandi gakomeye. Umuhanda wa kaburimbo abantu benshi barawukoresha, haba abanyamaguru barawukoresha, ndetse n'amamodoka akawucamo. N'amamoto nuko, amagare nuko. Muri make umuhanda wa kaburimbo ufite akamaro gakomeye cyane.